Uburyo bwo kurwanya indwara ziterwa n'umwanda, urabona umwana mutoya uri mu myaka mitoya afite isabune akandagiye ku cyuma kizwi nka kandagira ukarabe aho arimo akaraba n'amazi meza mu rwego rwo kwirinda ingaruka ziterwa n'umwanda.

Uyu mugore wambaye ijire y'icyatsi ufite agapimo gapima umuriro, urabona ko yambaye n'agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda ko yakwanduza abandi cyangwa se bamwanduza, aho yambaye na ga arimo apima umuriro uyu mubyeyi wundi umuri imbere.

Umubare munini w'abana batoya b'abanyeshuri bambaye amayunifomo barimo banywa amazi meza aturutse muri robine, mu rwego rwo kuba bakimara inyota banywa amazi meza cyane atangwa ndetse asukuye mu buryo bwo kurinda abana inzoka.

Ikigo gishinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana iki kigo kikaba ari ikigo mpuzamahanga cyangwa se ikigo gikorera ku isi aho gishinzwe kugenzura imikurire y'abana ndetse n'uburyo abana bitabwaho abana bakiri batoya aho bareba ko abo bana bahabwa uburenganzira bwabo bakwiye bakiri bato.

Sura u Rwanda ni gahunda leta y'u Rwanda yashyizeho mu rwego rwo gukangurira ba mukerarugendo ndetse n'abandi bose batuye mu bihugu bikikije u Rwanda ndetse no hanze yabyo, mu rwego rwo kuza gusura iki gihugu cy'u Rwanda bakirebera ubwiza nyaburanga, ari nako igihugu cyacu cy'u Rwanda kinjiza amafaranga menshi binyuze mu gusura u Rwanda.

Umubare munini w'ababyeyi uteraniye muri ino nzu aho bazanye n'abana babo bakiri batoya rwose. Ubona ko aba babyeyi bandi barimo baha abana amata, baje kwifatanya n'abo babyeyi mu rwego rwo kwigisha ababyeyi ko umwana akwiye guhabwa ibiryo cyangwa se ibindi bintu bifite intungamubiri, mu rwego rwo kurwanya indwara ziterwa no kuba abana babura intungamubiri.

Umubare munini w'abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'abarwayi bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kugira ngo birinde indwara ziterwa cyangwa se zandurirwa mu mihumekere, aho ubona ko abo baganga barimo bakora igikorwa cyo gukingira abarwayi cyangwa se abaturage baje mu rwego rwo kwirinda ko bazangizwa n'iyo ndwara.

UNICEF ni ikigo gikorera ku isi hose kizwiho kurengera uburenganzira bw'umwana, aho iyo babonye umwana ndetse abana barimo bakoreshwa imirimo ivunanye aho icyo kigo gishinzwe kuba cyakumira izo ngaruka cyangwa se ibyo bikorwa bikorerwa abana bakiri batoya.

Ikigo kizwiho kwita ku baturage bafite indwara zo mu mutwe ku isi hose, aho uyu munsi wari wizihijwe muri bibiri na makumyabiri nagatatu aho rwose bifatanya n'abafite ibyo bibazo byo mu mutwe ndetse bakaba banahabwa ubuvuzi.

Uyu mubyeyi ufite mikoro aho arimo atanga ubutumwa ku bitabiriye iyi nama yo kurwanya sida ndetse atanga ubutumwa ku rubyiruko mu rwego rwo kwirinda sida urabona ko arimo atanga ubutumwa ku baje kwitabira iyi nama ndetse no hirya ye hakaba ari n'umwunganira w'umupapa wambaye umupira w'umukankara.

Umubyeyi wishimye ndetse n'umwana we ba ubona ko bishimye bambaye neza cyane ndetse basa neza urabona ko uyu mubyeyi yubahiriza inshingano z'umwana aho amuha uburenganzira bwe ndetse harimo no kuba yamuha ubuvuzi akabasha kuba yagira ubuzima bwiza.

RBC ni ikigo gikorera mu Rwanda kizwiho gutanga serivise z'ubuvuzi mu Rwanda, urabona ko abaturage ari benshi baje mu gikorwa cyo kwipimisha indwara zitandukanye, aho iyi nzu ishingwa ndetse bagapima abaturage ku buntu, nta kiguzi na kimwe batanze, bagapimwa indwara zitandukanye ndetse n'uburebure n'ibiro byabo n'ibindi.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwizihiza ibidukikije ku isi yose, ahantu hagiye hatandukanye, uwo munsi ukaba wizihizwa ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi, aho uyu munsi wizihijwe muri bibiri na makumyabiri na kane, aho isi yose yifatanyaga n'abantu mu buryo bwo gukumira ingaruka zo kwangiza ibidukikije.

Iyi ni inzu yubatswe ishyirwamo ibikoresho bikoreshwa mu bitaro bitandukanye aho ibi bikoresho biboneka mu bitaro bitandukanye mu rwego rwo gufasha abarwayi nko gutanga umwuka mwiza cyane uyunguruye mu gihe umurwayi yabuze umwuka bitewe n'uburyo afite imbaraga nkeya akaba yakongererwa uyu mwuka mwiza cyane utunganywa n'izi mashini.

Ibitaro birimo umurwayi ndetse harimo n'imashini nyinshi zitandukanye aho harimo na za serumu zifashishwa ku murwayi mu rwego rwo kumwongerera amaraso urabona ko ari kwitabwaho n'umuganga aho uyu murwayi yitabwaho umunsi ku w'undi mu rwego rwo kugarura ubuzima.

Ikigo cyita ku barwayi b'amaso, kivura indwara zitandukanye z'amaso, aho uza ufite ikibazo cy'amaso, ugahabwa ubuvuzi bugendanye n'ikibazo cyawe ufite ndetse bakaba babaga n'ijisho, bakaba bakemura ikibazo wahuye na cyo.

Izi ni imashini zifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse n'intebe abarwayi bicaraho mu gihe bari gukorerwa igikorwa cyo kuba bavurwa nk'amaso ndetse n'izindi ngingo zoroheje ku buryo yicaraho cyangwa se akaba yaryamaho.

Umukozi ari mu masuku kwa muganga mu rwego rwo kugira ngo barwanye indwara zaterwa n'umwanda mu barwayi, urabona ko arimo akora isuku hasi ndetse hari n'undi uri kumufasha hirya ye aho abarwayi baba bafite isuku nziza cyane, yaba mubyo bambaye cyangwa biyoroshe ndetse naho banyura.

Ikigo gikorera mu Rwanda kizwiho mu gukora siporo mu Rwanda bita judu. Ni umukino njyarugamba ukinwa n'abantu babiri cyangwa se uwiga aho agamije kuba yakitabara mu gihe umwanzi amuteye.

Uyu musore arimo arakora siporo ngororamubiri aho arimo akora iyi siporo ngororamubiri mu rwego kugira ngo yirinde indwara zose zaterwa no kuba umubiri we ufite intege nkeya aho arimo agorora amaboko ndetse n'izindi ngingo zose.

Umubare munini w'abaturage b'u Rwanda urabona ko mu ngeri zitandukanye baje mu gikorwa rusange bahuriyemo cyo kuba bagorora ingingo igikorwa cya siporo kizwi mu rwanda nka car free day, aho rwose babyitabiriye neza cyane.

Igikoresho ushobora kwifashisha uri muri siporo, kizwi ku izina ry'agapine ndetse n'indi metero wakoresha, upima uburebure bw'umuntu ndetse no hirya yaho hari imbuto umuntu uvuye muri siporo ashobora kurya, nk'urubuto rwa pome ndetse akaba yafata n'amazi, hirya akaba yaryaho n'ironji, mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza.

Isabune nziza cyane ndetse n'amavuta yayo aho iyi sabune ikorwa mu kimera kiboneka mu Rwanda ndetse n'ahandi ku Isi ikimera kikaba kizwi ku izina ry'igikakarubamba aho gifitemo ubushobozi bwo kuba cyarwanya indwara ziterwa n'uruhu ndetse n'ibindi.

Haruwi vila gali ni umuti ukoreshwa ku ruhu ndetse ku bantu bafite uburwayi bw'uruhu aho bakoresha uyu muti rwose neza igihe gitoya bakaba babashije gukira izi ndwara z'uruhu ndetse n'ibindi bitandukanye ku ruhu.

Iyi ni imwe mu miti gakondo igiye itandukanye ifunze mu macupa manini ndetse no mu macupa matoya, aho ari imiti ya kinyarwanda ikorwa mu byatsi bya kinyarwanda aho uvura indwara zitandukanye harimo nk'iz'uruhu ndetse n'izindi ku mubiri wa muntu.

Imiti gakondo ikoreshwa mu Rwanda aho ikoreshwa mu bimera bitandukanye biboneka mu Rwanda mu rwego rwo kuvura indwara zigiye zitandukanye, ikaba ari imiti yahanzwe kuva kera aho abasekuru bakoreshaga iyi miti iboneka mu bimera aho ubona ko ifunze mu macupa ndetse hariho n'imbuto gakondo bakoreshamo muri iyo miti.

Iki ni kimwe mu biti byatewe hagamijwe kongera umubare munini w'ibiti mu rwego rwo kongera ibidukikije hagamijwe gutera amashyamba ndetse n'ibindi biti mu Rwanda, aho iki gikorwa ari igikorwa ngarukamwaka gikorwa n'ababifitiye uburenganzira ndetse n'ababishaka.

Isabune nziza isabune yo koga ikozwe mu rubuto rwa avoka, ni isabune ikozwe nta kindi cyongereyemo, ikaba ari isabune ifasha uruhu kumera neza cyane ikarinda indwara ziterwa no kuba warwara uruhu, isabune nziza cyane uzayibona igura macyeya.

Igiti cy'umuravumba kizwi cyane kugira akamaro mu mateka y'u Rwanda aho iki giti umuntu wese wabaga arwaye inkorora aho wabashaga kumuha kuri ano mababi akaba yaryaho akamira akabasha kuba yakira iyo ndwara. Iki giti cyasangwaga inyuma y'urugo ndetse cyangwa mu murima.